Abayibozi bari mu nama, impande yabo hari abasirikare babiri. Umuyibozi umwe uri gusuhukanya n'umuturage w'umudamu akaba yambaye isaha, inyuma yabo hari amabara aranga ibendera ry'u Rwanda, hasi aho bicaye hari sima isize orange ry'icyatsi ndetse ...

Abantu bari muri sale y'inama bari mu nama harimo abambaye inkweto z'umukara n'amakote y'umukara ndetse n'amapantalo y'umukara bicaye ku ntebe nziza zegamirwa, hasi hasashe amakaro y'umukara ndetse n'intebe zisa umweru wijimye ugiye kuba ubururu.

Abakozi bicaye basa n'abari mubiro buri wese asa n'uhugiye ku mashini ye ndetse no kuri telefoni, imashini bafite n'imashini za mudasobwa z'umweru, buri wese imbere ye hateretse icupa ry'amazi ndeste izo mashini ziteretse ku meza y'uruziga hariho igitambaro cy'umukara. iyo nyubako ifite inkuta z'umweru ndetse n'umutuku.

Icyumba cy'inama kirimo abantu bari mu nama, barambitse amatelefoni ku ntebe ndetse bicaye ku ntebe z'ibiti, bafite ameza imbere yabo ndetse hakaba hariho ibitambaro by'umweru ndetse n'iby'ubururu harimo n'intebe y'umweru iticayeho umuntu, hari umuntu imbere uri kubasobanurira, icyo cyumba kirimo amarido.

Abayobozi batatu basa n'abari mu nama, umwe wo hagati afashe mikoro mu ntoki, ku ruhande rwo ruguru hari umudamu wambaye isaha y'umweru, ufite umushene w'umweru, ku ruhande rwo hepfo hari umugabo wambaye isaha y'umukara ifite umushene w'umukara ndetse n'ishati y'umweru n'umukara.

Abantu bari mu nama umwe yicaye abandi bahagaze bari gukoma mu mashyi bambaye ibibaranga by'amakarita y'akazi, imbere yabo hari amazi ndetse n'amacupa, hari icupa ry'umukara ririmo amazi, hakurya hari amarido y'umweru ndetse na mudasobwa z'umweru n'umukara.

Abantu benshi cyane bari mu nama aho bambaye amakarita y'akazi afite imishumi y'umweru, abandi bambaye amakote abagabo ndetse hakaba harimo n'abagore bambaye amashati agiye atandukanye y'umutuku bari muri sare y'inama y'uruganiriro ifite amarido y'umweru.

Abayobozi basa n'abari kuganira bicaye ku ntebe bose, buri wese yicaye afite igitabo mu ntoki, bicaye ahantu hari tapi y'ubururu hejuru yabo hari amatara y'umweru, igikuta cyaho kikaba gisa umuhondo iruhande hari ururabyo, bambaye amakoti y'amakositimu.

Abantu bari mu nama bicaye ku ntebe zegamirwa z'umutuku zifite amaguru y'umuhondo, imbere yabo hari umuyobozi wambaye ikote risa ubururu ipantalo y'umweru harimo amarido y'umweru ndetse n'amadirishya y'umweru.

Abantu bari mu nama, imbere yabo hateretse amazi ateretse ku meza ariho ibitambaro by'umweru, imbere hahagaze umudamu wambaye iby'umukara.

Abayobozi bari mu nama inyuma yabo hari abandi bantu bambaye imipira y'umuhondo, abicaye imbere bambaye imipira y'icyatsi bicaye mu ntebe zegamirwa, hasi hakaba hashashe amakaro y'umuhondo, hejuru hari amatara arimo kwaka harimo inkuta zisize irangi ry'umweru, hejuru hasa umukara.

Abantu bari mu nama imbere yabo hateretse amacupa y'amazi ndetse n'amakayi ku meza, isize irange ry'umweru imbere yabo hari umugabo ufite mikoro muri sale isize irange ry'umweru, ikirangantego cyanditseho inzozi hejuru yabo hakaba amatara.

Abagabo bicaye mu nama bari mu cyumba cy'inama bambaye amashati y'umweru. Babiri bo ruguru, abo hepfo bambaye amakoti. Umwe yambaye ikoti ry'umweru, n'ishati y'umweru, undi yambaye umukara, ndetse ikaba yambaye na karuvati y'umukara. Ishati y'umweru imbere hateretse imashini ya mudasobwa.

Abayobozi basa n'abari mu nama bicaranye n'umusirikare uri kwandika mu gitabo, imbere yabo hateguye neza amazi ndetse n'umutobe kinyange. Uwo mutobe ukaba usa umuhondo, umusirikare yicaranye n'umumama wambaye amataratara, buri wese imbere ye hari umutobe ndetse n'amazi y'inyange.

Abantu bari mu nama hagati yabo harimo umuzungu ufite imIsatsi wambaye ishati y'umutuku, imbere yabo hari amazi, harimo umugabo wifashe ku mpanga wambaye isaha nyuma yabo hari igikuta cy'umuhondo gisize irangi.

Abantu bari mu cyumba cy'uruganiriro, basa n'abari mu nama, bakurikiye umuyobozi wabo, imbere ye hateretse icupa ry'amazi ndetse n'imashini ifotora impapuro, noneho hakaba hari igitambaro kirambuye ku meza cy'umweru, inzu barimo ikaba ifite urugi rusize irangi ry'umutuku n'inkuta z'umweru n'ikibaho cy'umweru.

Abantu bari mu nama basa nkabari kureba umuyobozi uri gukoresha inama, muri sare hejuru hari amarido y'umuhondo ajya gusa umweru, harimo inkingi zizinzeho ibitambaro by'umweru, hasi harimo tapi y'icyatsi iteretseho amazi.

Abagabo batatu basa n'abari mu nama, bicaye mu ntebe z'imifariso y'umukara, imbere yabo hari mikoro, buri wese yicaye imbere ye hari n'urupapuro kandi bicaye imbere hari ameza asize irangi ry'umutuku, inzu barimo isize irangi ry'umweru, umwe muri bo yambaye ikote ry'umukara.

Mu cyumba cy'inama, harimo abagabo bambaye mu buryo butandukanye, aho abenshi bambaye amakote na karuvati. Bicaye bahanze amaso ahantu hamwe.

Icyemezo cyavuye muri minisiteri y'abakozi ba leta y'umurimo, akaba ari itangazo ryandikishije inyuguti zisa umukara umutwe waryo wanditse mu nyuguti z'ubururu, handitse ngo "iminsi y'ikiruhuko rusange" gifite ikirangantego cy'u Rwanda cyanditsemo repubulika y'u Rwanda, hasi hakandika ngo ubumwe, umurimo no gukunda igihugu.

Igikorwa cyakozwe n'abantu cyo kwamamaza igihe cy'ihinga cya bibiri makumyabiri na kane bibiri na makumyabiri gatanu cyo guhinga ibiti, aba bantu bakaba bambaye imipira y'icyatsi harimo abirabura ndetse n'abazungu, inyuma yabo hari inzu yubakishije amatafari ahiye, hakurya hakaba hari ibiti mu ibara ry'icyatsi.

Umunara usize irange ry' umweru ndetse n' umutuku imbere yaho hakorotirishije ibyuma by' umweru , hakaba hari abantu...

Abantu benshi basa n'abanyeshuri bafite imashini za mudasobwa z'umweru mu ntoki bambaye ubupfukamunwa umwe yambaye ak'umweru gasa n'ubururu undi akambara ak'umukara inyuma yaho hari inzu isize irangi ry'umuhondo haba ku nzugi, ndetse no ku nkuta ika ifite imireko isa umutuku.

Umunara w'itumanaho ugaragara igice cyo hejuru, uriho insinga ziri mu matiyo y'umukara, umunara wubakishije ibyuma irangi ry'umweru ndetse n'umutuku. Hejuru ukaba ufite ibisahani bibiri, ndetse ukaba ufite n'ibindi byuma ku mpande by'umweru ukaba ufite senyenge zo ku ruhande hejuru.

Umunara w'itumanaho ugaragara igice cyo hejuru ufite ibisahani bibiri ku mpande ndetse ukaba usize irangi ry'umweru ndetse n'umutuku ku byuma byawo hakurya yawo hakaba hari ikirere gisa ubururu ibyo byuma hakaba harimo n'ibisa umukara bifite amasinga y'umukara.

Inzu nini iriho ibyapa byinshi byamamaza mu mabara y'umweru, umuhondo, ubururu ndetse n'umutuku, imbere yayo hakaba hari umugabo usa n'ukuze wambaye ishati iciye amaboko y'umweru, ipantalo y'umukara, iyo nzu ikaba isize irange rijya gusa umweru uvanze n'umutuku, ikaba ifite inzugi zirimo ibirahuri by'umweru, inzugi zisize irangi ry'umuhondo.

Inyubako y'umunara munini cyane, usize irangi ry'umweru ndetse n'umutuku ku byuma wubatse, ukikijwe n'ibyuma bifite senyenge ndetse ibyo byuma bikaba bisa umweru n'izo senyege, ifite ibyapa biwuriho byamamariza Emutiyeni, umuyoboro ukoreshwa mu Rwanda, hakurya y'umunara hakaba hari inzu ndetse n'ibyatsi by'icyatsi.

Umunara munini cyane kandi muremure, ufite ibisahani hejuru ndetse ukaba ufite n'ibyuma biwubatse bisize irangi ry'umweru ndetse n'iry'umutuku. Impande y'uwo munara hari izindi nyubako zihubatse, zisakarishije amabati y'umukara ndetse hakaba n'ipoto ebyiri ziri hamwe, imwe igaragara igice kimwe, ziriho insinga.

Ipironi iri uruhande rw'umuhanda, imbere yayo hari umuntu wambaye isarubeti y'ubururu, n'uwicaye wambaye ijire, iyo pironi ikaba iri ahantu mu shyamba, hakurya yayo hakaba hari inzu zisakarishije amabati y'umweru n'umutuku.

Ipironi nini cyane ebyiri zitwaye insinga z'umuriro w'amashanyarazi; imbere yazo hari ikirere kirimo igihu cy'umweru ndetse n'uruhande rumwe rusa ubururu; ahongaho hakaba hari insinga nyinshi cyane zitwaye umuriro w'amashanyarazi.

Ipironi imbere yayo hari ipoto iriho insinga ndetse n'ipironi ikaba ifite insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi, kw'ipoto ndetse no kw'ipironi impande yaho hari igiti gifashe kw'ipoto gifite amashami iruhande rw'iyo poto ndetse n'ipironi.

Inyubako nini yubakishije amabati asa umatuku ku mpande zayo ku rupangu hakaba hubakishije amatafari ahiye imbere hakaba harimo inyubako isize irangi ry'umweru wijimye hakurya hakaba hari izindi nyubako nyinshi cyane zisakarisha amabati y'umutuku ndetse n'ay'ubururu imbere y'iyo nyubako hari ipoto itwara umuriro w'amashanyarazi n'urupangu ruguru yayo.

Inyubako irimo kubakwa ya etaje igeretse rimwe, imbere yayo hari amabati n'inzu ifite canali ebyiri z'ibisahani, isakawe n'amabati y'umutuku, imbere yaho hari pironi y'umweru iriho insinga zitwara umuriro.

Amapoto abiri y'ibyuma ariho imashini ishinzwe kongera no kugabanya umuriro w'amashanyarazi, ayo mapoto akaba afatiyeho insinga zitwaye umuriro w'amashanyarazi, imbere y'ayo mapoto hakaba hari ibiti, hakurya y'amapoto hari ikirere gisa umweru.

Abakozi b'amashanyarazi buriye ku ipironi barimo gukorera hejuru bambaye imikandara y'umutuku, ingofero z'ubururu, bambaye amasarureti y'umukara bose buriye ku iproni.

Imodoka itwaye abagenzi iri mu ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, imbere yayo hari aho bacururiza, hari inzu zubakishije ibyuma bisize irange ry'ubururu ndetse n'amabati y'ubururu, iyo modoka ikaba iri muri kaburimbo, impande yayo hari ipironi iriho insinga zirahurira abantu.

Inyubako nziza kandi nini isakarishije amabati n'umukara ifite igipangu gisa umweru ndetse n'umuhondo imbere yayo hakaba hari ururabo runini ndetse n'ubusitani n'ipoto itwara umuriro w'amashanyarazi mu byerekezo bitandukanye hakaba n'igiti kiririmo akarabo k'umutuku imbere hasa n'ahari umuhanda wa kaburimbo ugaragara hagati gato.

Ipoto nini cyane itwaye insinga nyinshi, inyuma yayo hari inzu nini ifite anteni, imbere yayo hakaba hari umuryango w'amabati y'umweru, urupangu rwayo rwubakishije amatafari abumbye muri sima, noneho hasi hakaba hari ubusitani bw'umucaca w'icyatsi.

Ipoto iriho ibyuma by'umweru n'insiga z'umukara ikaba ifatiyeho n'abaturage barahuriyeho umuriro mudusanduku duhari.

Ibihingwa bihinze mu mifuka bisa umweru ndetse n'ibisa umuhondo, ndetse iruhande rw'ibyo bihingwa hakaba hari igisanduku gifunguye, ariko kidafunguye neza gisa umweru imbere hasa umutuku, ibyo bihingwa byo hakurya bikaba bitoshye kurusha ibyo hino.

Abakozi bashinzwe gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi barimo kwesitara imashini ishinzwe kongera no kugabanya umuriro w'amashanyarazi, inyuma yiyo mashini hakaba hari igiti kiri kugaragara gisa icyatsi, ndetse abo bakozi bambaye amasarubeti y'ubururu n'ingofero z'umuhondo.

Umuhanda wa kaburimbo imbere yawo kuruhande hari igipangu gifite amatara hejuru, imbere y'igipangu hari ipironi iriho ihurijeho insinga zitandukanye zigiye mu byerekezo byinshi bitandukanye, impande yabyo hakaba ishyamba ndetse n'abantu bari kugenda bajya imbere n'igiti kinini.

Imodoka y'umutuku inyuma yayo hari umuntu wambaye umupira w'umukara, impande yayo hari ibyapa harimo ishami rishinzwe umuriro w'amashanyarazi ki Remera, inyuma y'icyo cyapa hari inyubako irimo kubakwa ifite ibikwa ndetse ifite n'inkingi za sima ariko zidasize irangi imbere yayo hakaba hari ubusitani bw'icyo.

Abantu benshi bambaye amataburiya basa n'abaganga imbere yabo hari undi uri ku mpanuka bari mu muhanda wa kaburimbo uva ku nyubako isa n'ibitaro ibyo bitaro bikaba bitwikiriwe n'amabati y'umutuku imbere yabo hakaba hari jard icunze neza ndetse bakaba n kaburembo baganira.

Umuntu ubana n'ubumuga imbere ye hari inyubako isakarishije amabati y'ubururu asa nkagiye gusaza. Hakaba kadagira ukarabe zubakishije amakaro hari jaride impande ye. Akaba yifubitse ku maguru igitambaro cy'umutuku, hakaba hari umuhanda w'amapave ndetse n'imikindo.

Abantu bicaye ahantu muri koroderi isashi irimo amakaro y'umweru ku gikuta hasize irange ry'umuhondo hasi hejuru umweru hakaba harimo purafo ndetse n'amatara amurika neza, umumama uhetse umwana amutwiki igitambaro.

Inzu nyinshi zitandukanye zikorerwamo ubufasha bugiye butandukanye, imbere yazo hari abantu barimo kuvoma amazi muri pasiparumu, inzu zikikijwe n'ibibaraza bitandukanye, hasi hashasheho amapave zisakarishijwe amabati y'umutuku hejuru zifite amatiyo atwara amazi.

Umuhanda munini ugaragara nk'urimo utubuye uruhande rumwe ahandi hakaba hari amapave hakurya yaho hari inzu zisakaje amabati y'umweru ndetse n'abakozi bambaye udupfukamunwa, imbere yabo bafite ibigega ndetse n'ingunguru z'umutuku haruguru hakaba hari inzu nini cyane isize irange ry'umweru hasi hari amabuye isakaye neza.

Inyubako y'ibitaro bikuru by'igihugu by'u Rwanda ifite imbere yaho ubusitani bucunze neza ndetse hakaba hari n'abakozi bari hanze ya hakaba hari nk'umudamu uhetse umwana yitwikira umutaka agiye kwa muganga hakaba hari kaburimbo aho ngaho hanze y'inyubako y'ibitaro bikuru by'igihugu.

Abantu bari mw'ishyirahamwe ahantu hatwikiriwe n'amabati afite inkingi z'ibyuma ndetse asakawe n'ibyuma ndetse ni amabati y'umweru, hasi inkingi zubakishije amatafari ahiye harimo sima y'igiheri ndetse bakaba bicaye ku ntebe begamiye bose.

Abantu basa n'abari mu nama ndetse kandi bagaragara nk'abayobozi bakomeye, bambaye imyambaro y'umutuku, ingofero z'umukara zifite uruhete rw'umweru, imbere yabo hakaba hari buri wese mudasobwa ndetse inyuma y'ameza ateretseho mudasobwa, hari ururabo rw'icyatsi.

Umusaza usa nukuze wambaye umupira w'umukara uyu musaza ni inzobe inyuma ye ahantu yicaye hari imwenda ndetse n'imifariso y'umutuku ndetse nundi w'umweru inyuma y'intebe yicayeho.

Ahantu hateraniye abantu benshi, harimo imfungwa ndetse n'abandi bantu bambaye imyambaro isanzwe, inyuma yabo hari inyubako yubakishije amatafari ahiye ndetse hakaba n'icunda zanikwaho imyenda zifite inkingi z'ibyuma ndetse hari ingoma imbere yabo n'intebe.

Abantu batatu barimo kuganira, uwo hepfo ni umuzungu wambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru, uwo hagati ni umudamu wambaye amataratara y'umweru n'ikanzu ijya gusa umutuku ariko werurutse, nuwo ruguru akaba yambaye ishati irimo imirongo y'umweru, ndetse n'umukara n'ikote ry'umukara, inyuma yabo hari itara ririmo kwaka.

Imfungwa zisa n'izivuye gutera imyaka ziri inyuma y'aho ziba, mu kigo zibamo bamwe basunitse ingorofani abandi bafite amapapi batwayeho imyaka ndetse bari bafite amasuka n'ibitiyo hakurya yabo hari umunara w'icyuma aho umupolisi aba yicaye.

Inama y'abaturage aho bigaragara ko bari bicaye, umuyobozi ari imbere yabo yambaye ishati y'umweru, abandi bicaye ku ntebe abandi bicaye hanze kuri jaride bakora inama, abandi bitwikiriye imitaka inyuma yabo hari ishyamba ndetse n'ibiro by'akagari.

Kizimyamuriro zishinzwe kuzimya inkongi y'umuriro zisa umutuku nyinshi ziri hamwe zifite imikondo isa umukara ndetse n'ahasohokera umwuka hasa umukara zisize n'irange.

Inzira y'abanyamaguru irimo umupolisi ushinzwe amategeko yo mu muhanda, ndetse no guhagarika imodoka ziri mu makosa burimo abantu bari kugenda batambuka impande z'uwo muhanda w'abanyamaguru, hari inzu yubakishije amatafari ahiye uwo muhanda w'abanyamaguru ukaba wubatswe n'amapave.

Imodoka y'umutuku, imbere yayo hari umupolisi wayihagaritse, hakurya yayo hakaba ibiti byinshi by'ubwoko butandukanye, harimo insina ndetse n'ibindi biti. Hakurya y'ibyo biti hakaba hari amazu yubatse neza asize irange ry'ubururu bwerurutse, asakarishije amabati y'umutuku.

Umuhanda w'amapave urimo imodoka zitandukanye z'umweru ndetse hakaba hubatse n'inzu, aho bigaragara nkaho hatangirwa serivisi zigiye zitandukanye, hakaba harimo ibiti ndetse n'ururabo impande y'inzu, hakaba hari icyuma kibuza yuko abantu batambuka batemerewe haba abatwaye ndetse n'ibinyabiziga, hagaragara nk'ahaba urinda umutekano.

Abagabo babiri basa n'abari mu nama, umwe w'imbere asa n'uri kuvugira muri mikoro, bicaye ku ntebe y'imifariso y'umukara wambaye amakote ajya gusa ubururu, karuvati umwe ni umukara undi ikaba ubururu, n'amashati y'umweru uw'inyuma ari kwandika ku meza ya verine bose basa naho bahu.

N 'abayobozi babiri basa n'abari mu nama, imbere yabo har'ibendera ry'u Rwanda ndetse nandi mabendera abiri n'icupa ririm' amazi, bakaba bambaye amakositimu n'amashati

Umugabo wambaye ikote ry'umukara ndetse na karuvati y'umukara, ishati y'umweru, imbere ye hari ibandera ry'u Rwanda, akaba ari umugabo ubyibyushye mu maso, w'imibiri yombi.

Abaturage batonze umurongo basa n'abari gutora cyangwa se basa n'abari gukatisha amatike bari ahantu hashashe amapafe buri wese ari inyuma y'undi ndetse bakaba ari muri kaburimbo bamwe ,buri wese ategereje kugera kuri uriya ubafasha muri aba baturage bose harimo abagore ndetse n'abagabo.

Imodoka itwaye perezida w'igihugu cy'u rwanda Polo Kagame inyuma hari abapolisi bamurinze, ndetse n'iruhande hari abaturage benshi bazamuye amabendera y'umuryango w'igihugu w'inkotanyi, ndetse iruhande hakaba hari ibyuma byubatse bisize amarange y'umutuku ndetse n'umweru, hejuru hari indangururamajwi n'ibindi biti biri hakurya.

Abantu bari muri gahunda yo kwamamaza umukuru w'igihugu bamariza ishyaka ry'igihugu cy'inkotanyi, imbere yabo hari intebe ndetse bambaye imipira isa umutuku, ndetse irimo n'amabara y'umweru, n'indi isa ubururu, bamwe bambaye ingofero z'umweru, abandi bambaye ingofero nabo zidatwikiriye z'umweru.

Inama irimo umukuru w'igihugu, perezida w'igihugu cy'u Rwanda aho yicaye imbere, imbere hari abantu benshi bambaye imyambaro igiye itandukanye. Yambaye ishati y'umweru, linete, amataratara ndetse ipantaro y'umukara, akaba yishimiye hamwe...

Imodoka nziza yo mu bwoko bwa Toyota iri mu muhanda wa kaburimb. Iruhande rwayo hakaba hari umunyonzi wambaye isengeri y'umuhondo, hakurya hakaba hari uruzitiro rusa icyatsi, imbere harimo uruzitiro rwibyuma ndetse n'imodoka y'ibyuma bifite ibyuma by'umweru bisa umweru ndetse n'ibiti birebire.

Imodoka y'icyatsi iri mu muhanda wa kaburimbo i ruhande rwayo hari moto ebyiri zitwaye abagenzi ndetse n'indi iri iruhande rw'imodoka y'umweru nayo iri mu muhanda wa kaburimbo harimo icyapa kirangahantu ndetse inyuma y'icyo cyapa hakaba hari ibiti byinshi birebire ndetse n'impande y'ibyo biti hakaba hari n'ikindi cyapa kiri mu ibara ry'umutuku n'imodoka ziri kuza mu mazi.

Imodoka nini yafuso iri mu muhanda wa kaburimbo, uwo muhanda wa kaburimbo urimo moto irimo kuza inyura impande y'imodoka ndetse n'umunyegare utwaye igare ari kujya imbere, inyuma yanyu hari abagabo babiri ndetse bari ahantu hari inzu isakarishijeje amabati y'umweru hakaba hari ndetse n'ibiti binini n'amatara yo ku muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo amapikipiki abiri ndetse n'imodoka y'umweru ifite amakiriseri y'umutuku; iruhande rwayo hakaba hari umugabo uri kuri telefoni ndetse n'abandi bari hakujya bikoreye imifuka y'umweru babiri kandi izo moto; imwe ikaba ihetse umugenzi hakurya hari ibiti birebire by'icyatsi.

Imodoka nini cyane itwaye ibicuruzwa ifite kabine y'imbere y'icyatsi, imbere yayo hari indi ifite kabine y'umweru iri kuza iyisanga, hari abantu bari kugendera, hejuru y'ama..

Umugi munini aho bigaragara nk'aho nijoro, iruhande rw'umugi hari umuhanda wa kaburimbo, hakurya ya klaburimbo hakaba hari imodoka ebyiri zifunguye igice cy'inyuma, hakaba hari n'inziura y'ibitaka, ndetse hagati y'iyo nzira na kaburimbo hakaba harimo ubusitani bw'umucaca, mo hakurya y'iyo nzira y'ibitaka.

Ipikipiki iri mu muhanda itwaye umugenzi inyuma, ku ruhande hakaba hari akayira k'abanyamaguru gashashemo amapave, ku ruhande rwo hepfo hakaba hari ubusitani buriho indabyo ziconze neza ndetse n'ibindi biti birebire no ku ruhande rwo hino iburyo hakaba ari ibiti ndetse n'indabyo harimo n'ubusitani.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitandukanye harimo amagare moto zibisikana, moto ziri kuza ziza imbere ndetse n'imwe iri kuzamuka, hagati hakabamo imodoka isize irangi ry'umweru inyuma imbere yaho ikaba isize irangi ry'ubururu. Rikaba hari batwaye igare nabo barimo kugenda aho ngaho.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ifite amakarisori y'umutuku imodoka ikaba isa umweru. Isa n'itwara imizigo kuri uwo muhanda hakaba hari inzu z'ubucuruzi ndetse hari n'abantu benshi barimo kugura bagurisha ibicuruzwa bikaba hari n'izindi modoka ziri ahongaho hakaba hari amapikipiki'pande y'iyo modoka iriri ku muhanda.

Imodoka nini cyane iri mu muhanda wa kaburimbo, imbere ya kaburimbo hubakishije amapave, imodoka ifite ibara ry'umuhondo, imbere mbere hayo aho umushoferi aba yicaye, imbere yayo hari imodoka imodoka z'umweru, ndetse hakaba na moto irikuza iyisanga mu muhanda wa kaburimbo mbere yaho hakaba igiti.

Imodoka yo mu bwoko bw'imodoka ntoya iri mu muhanda wa kaburimbo inyuma yayo hari indi yumukara inyuma yihinde naho ikabaindi yumukarapande y yizo modoka hakaba hari ibiti birebire by'imikino ndetse n'ubusitani aho byakaba undi muhanda iruhande rwawo hari ibiti birebire in hakaba ari umurongo wumweru.

Imodoka ya fuso y'umweru itwikiriwe n'ishitingi y'ubururu, imbere yayo hari amafoto menshi cyane, ariko aparitse ndetse n'izindi ziri muri kaburimbo, hakaba hari igiti kinini kiri imbere yayo, iyo modoka ikaba iri muri kaburimbo, ku ruhande rwa kaburimbo hakaba hari akayira gashashemo amapave.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ndetse n'ibindi binyabiziga bitandukanye na moto ndetse uwo muhanda impande yawo hubakishije amapave, hari ikiraro kirimo umwobo hasi ucamo amazi, hari imodoka nini ifite inyuma hayo h'umweru ndetse n'indi isize irange ry'ubururu.

Inzu nini cyane ebyiri ziri hamwe kandi nziza, imbere yazo hari aho abamotari baparika kandi hakaba hari abamotari benshi imbere y'abo bamotari hakaba hari ibiti byinshi ndetse hakaba hari n'amatara yo ku muhanda amanitse ku byuma bisize irange ry'umweru ndetse hakaba hari n'icyapa kigenga amategeko y'umuhanda kivuga ko bitemewe guparika mu muhanda wa kaburimbo.

Imodoka y'umweru iri mu muhanda wa kaburimbo isa n'irimo abantu bari kwiga gutwara imodoka. Iruhande rwayo hari jariide ndetse n'ibiti byiza hakaba hari amatara yo ku muhanda abonesha nijoro, imbere hari indi modoka ya toyota ndetse n'indi iri kuza iyisanga, iruhande rwayo hari n'umuhanda w'amapave.

Umukozi wambaye ijire y'icyatsi irimo uturongo tw'umukara wambaye ingofero y'umukara na bote z'umukara uri gutwara ibikoresho ndetse n'ibindi bintu mu ngorofani imbere ye hari imodoka y'umweru iri ku mapave, hakurya ye haba hari indi y'icyatsi isaka itwikije.

Imodoka ebyiri nini ziri mu muhanda wa kaburimbo, hakurya yazo hakaba hari ishyamba rinini ku kumpande hari abantu bari gukora imirimo igiye itandukanye ndetse n'ipironi hari amatara yo ku muhanda yaka nijoro imbere hakaba hari abantu ndetse n'umugabo uri imbere yayo.

Imodokadoka ya fuso iri mu muhanda wa kaburimbo, ku nkombe z'umuhanda wa kaburimbo hari umuhanda w'abanyamaguru w'amapave, hakurya hakaba ishyamba ndetse na korutire hino hano yakingirijwe na senyenge y'icyatsi, imbere yayo hakaba indi modoka iri kuza bibisikana.

Imodoka nini cyane itwikiwe inyuma n'ihema iziritse imigozi, impande yayo hari moto ebyiri zitwaye abagenzi, zose zikaba ziri mu muhanda usa n'ushaje, ndetse n'iyo modoka inyuma yayo hari ibiti ndetse n'amatara yo ku muhanda, afite inkingi z'umweru.

Abagenzi bari mu muhanda w'amapave harimo utwaye igare ayisunitse, ari kureba imbere abandi bari kureba inyuma, imbere y'abo bari kureba inyuma hakaba hari ipikipiki ndetse n'indi modoka iri kureguka igipanda k'imbere, isa ubururu hejuru ifite ibirahuri bisa umweru ndetse aho hafi hakaba ari ubusitani burimo abantu.

Imodoka zirimo kugenda harimo imodoka y'umweru, impande yayo hari umuntu wambaye ishati y'ubururu irimo amabara y'umweru, ipantaro y'umukara. Inyuma y'imodoka hakaba indi itwara abagenzi y'ubururu ndetse n'umweru. Inyuma hakaba hari indi y'icyatsi igaragara igice cy'imbere, hirya yayo hakaba hari ishyamba.

Abamotari bari mu muhanda wa kaburimbo, batwaye moto, bahetse abagenzi, hirya yabo hari abantu bahagaze harimo uwambaye isarubeti y'ubururu ndetse n'imodoka y'umukara, hakurya yabo mu wundi muhanda harimo imodoka nyinshi z'ubwoko bwinshi n'izitwara abagenzi ndetse n'abantu, iyo mihanda uko ari ibiri itandukanyijwe n'ubusitani burimo imikindo.

Imodoka nini itwara abagenzi ijya mu muhanda wa kaburimbo impande y'iyomodoka hari umumama wambaye itaburiya y'icyatsi impande y'imodoka kandi hakaba n'inzu nini cyane zisize irangi ry'umuhondo ririmo ibirahuri by'amadirishya, ndetse hakaba n'iyinindi nzu iri hepfo isakashije amabati ifite ibyuma bisize irangi ry'umukara.

Moto iri mu muhanda hafi yi i satere y'ubucuruzi impande yayo hari abantu bayiteye umugongo bari kugenda bajya imbere, imbere yayo ndetse n'abo bantuba imodoka y'umweru ndetse n'abandi bana bari gukora imirimo y'ubucuruzi impande ya moto imbere mu gipangu hakabamo n'izindi moto wagirango bari kuzikorera metenanse.

Imodoka nini ya fuso ifite ikizuru gisa umutuku inyuma ifite amakarisori y'umwe impande yayo hari abagenzi bari kugenda mugahanda gashashemo amapave babiri b'abagabo, impande y'iyo modoka ku ruhande rwo hirya hakaba hari ibiti birebire ndetse n'amasinga atwara umuriro w'amashanyarazi n'ihema ry'umweru riri kureguka hakurya.

Ikibuga cy'umukino w'amaboko ukinirwa mu kirere, kiri hasi gisashemo amapave y'umutuku, imbere y'aho banaga umupira mu gatebo hakaba hari hari ibara ry'umweru, inyuma yacyo hari igipangu cyubakishije amatafari ahiye ndetse n'ibiti binini kandi

Mu muhanda wa kaburimbo impande yawo hari umugenzi uri kugenda n'amaguru mu kayira k'abanyamaguru gashashemo amapave, hakurya y'ayo mapave hari icyapa kivuga ko umuvuduko ntarengwa utagomba kurenza mirongo itandatu y'icyo cyapa hari inyubako isize irangi ry'umuhondo inzugi zisize irangi ry'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo ugaragara agace gatoya, iruhande rw'umuhanda mu muhanda wabanyamaguru, hari abanyamaguru benshi basa n'abategereje ibinyabiziga bibatwara, hakaba hari icyapa kigaragaza ko ariko imodoka zitwara abagenzi, hakurya hakaba hari isangoma ndetse hakaba hari n'ubusitani ikibuga ndetse n'ibiti hakurya.

Umuhanda wa kaburimbo urimo kugendamo imodoka ndetse n'amapikipiki cyane amatara ndanga nyuma y'icyerekezo ndetse nayo agaragara nk'umutuku mu muhanda impande yaho hari amatara yo mu muhanda yaka nijoro ndetse hakaba hateye n'ibiti by'imikindo hakaba hari n'abantu bari kugenda ku mpande yaho hari n'icyapa kigaragaza ko yemerewe guparika.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu gifite inkingi z'ibyuma zisize irange ry'umweru cyanditseho ikiraro mu rurimi rw'icyongereza, imbere yaho hari ubusitani, hakurya hari imodoka nini y'umweru ndetse n'abandi bantu harimo uwambaye ijire, hakurya hari izindi nyubako ndetse n'ishyamba n'ibindi binyabiziga.

Icyapa cyo mu muhanda kiburira, cyerekana ko imbere hari ibikorwa biri gukorwa mu muhanda, kiri mu muzenguruko mpande eshatu, ndetse umuzenguruko ukaba ufite ibara ry'umutuku imbere harimo umuntu urimo guterura igitiyo, cyangwa se ibindi bintu mu ibara ry'umukara kikakaba kigaragaza imirimo iri gukorwa.

Icyapa kigenga amategeko y'umuhanda. Iki cyapa gifite ibara ry'umutuku, umweru n'umukara, kiriho igishushanyo ry'umubyeyi ufashe akuboko umwana. Iki cyapa kigaragaza ko aho ari ho abanyeshuru bagendera.

Inzu nyinshi zubatse ahantu, aho bigaragara ko imbere yaho hahinze ibihingwa kuri buri nzu, ndetse n'izindi ziri hejuru ku musozi zigeretse kandi muri izo nzu hakaba harimo ibiti bibiri bitandukanye n'utuyira tw'ibitaka ahagendwa n'abantu, inzu zisakarishijwe amabati y'umutuku, hepfo hakaba hatwikirije amabati y'umweru.

Umujyi ahantu hari imodoka nke nyinshi zitandukanye ndetse hakaba hakorerwa ibikorwa by'ubucuruzi nko gucuruza amayinite ndetse harimo abantu bagiye batandukanye barimo kugenda ndetse n'amagare atwawe n'abanyonzi, hari naho bakira ubufasha bwa emutiyeni.

Umujyi urimo amazu menshi ageretse, ndetse hakaba harimo n'ibiti by'imikindo, aho bigaragara ko hari amazu menshi, kandi hakaba hari n'amazu asakarishije amabati y'umutuku, imbere hakorerwa ubucuruzi, ndetse akaba afite imiryango isize irange ry'umukara.

Urusisiro rurimo rukorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi aho hari umuhanda wubakishije amabuye harimo moto ziririmo kugenda ndetse n'umumotari wambaye ingofero yumutuku uhagaze ku mpande hakaba hari inzu bacururizamo ibintu bitandukanye hari indobo n'intebe z'umweru ndetse n'inzu isakarishije amabati y'umukara,

Inyubako nini cyane ya etaje igeretse ifite imbere hayo ibyuma birinda ko abantu bagwa bahagaze kuri furo yo hejuru, noneho ikaba ifite inzugi zisize irange ry'umweru, ikaba iriho ibyapa bigiye bitandukanye by'amabara y'ubururu n'umweru.

Inzu nyinshi zubatse neza kandi zigezweho zisakarishije amabati y'umukara ndetse n'ay'umweru ahantu hagiye hatandukanye, ndetse imbere y'izo nzu hakaba hagiye hari ibiti bitandukanye, ndetse hakaba hari n'amabuye ahubatse ku bipangu bigera bitandukanye, inzu zifite amabara atandukanye harimo n'izifite amadirishya y'umweru.

Imodoka y'umukara iri mu muhanda wa kaburimbo, i ruhande rwayo hari inyubako iigaragara agace gatoya ndetse n'amaguru yaho hari indi nyubako igaragara igice gitoya yubakishije amatafari ahiye, hejuru hakaba hari ibyuma bisize irangi ry'umukara hino hakaba hari ikiraro ndetse n'umuhanda w'ubutaka.

Inyubako nini cyane igeretse imbere yaho hari igipangu, gifite urugi rw'umukara rufite ibirahure imbere y'urugi aho binjirira hari jaride nziza, ifite indabyo n'umuhanda w'ibitaka imbere igipangu.

Imodoka y'umukara iri mu muhanda wa kaburimbo igaragara igice cy'imbere gusa, iyo modoka imbere yayo hari indi nyubako ifite umuryango w'urupangu usize irangi ry'icyatsi ndetse icyo gipangu kikaba gisize nacyo irangi ry'umweru hariho icyapa gisa umatuku.

Inyubako nziza kandi nini y'ubucuruzi imbere yayo haparitse imodoka nyinshi z'ubwoko butandukanye iz'umweru ndetse ni z'umutuku ,nyuma impande yazo hakaba ari amapikipiki ariho abamotari bayatwaye basa n'abahagaze ndetse hakaba hari n'umugabo utwaye ibintu k' urutugu hakaba hari n'imikindo.

Inzu nini zifite igipangu kinini cyane imbere harimo inzu nyinshi zisakarishije amabati y’ umutuku zisize irangi rijya gusa umuhondo imbere hariho amakaro y’ umweru n’ umukara izo nzu imbere y’ igipangu hakaba hari ubusitani ndetse n'indabyo ziri imbere yaho hirya hakaba hari inzu zisize irangi ry'umukara n'umuhanda wa kaburimbo uri imbere yubwo busitani.

Inyubako zubatse neza zigaragara nkaho ari i Remera zisakarishije amabati y'umutuku izindi zisakarishije ay'umweru, hakurya yazo hakaba hari inyubako nini cyane igeretse isize irangi ry'icyatsi, hejuru yayo hari umunara ndetse ikaba isize n'irangi ni ry'umuhondo nkiy'imbere yayo.

Inyubako nziza kandi z'ubucuruzi, imbere yazo imwe muri zo hari ibipupe byambaye imyenda irimo gucuruzwa, mu buryo bwo kugira ngo igaragare neza, hejuru y'iyo nzu hakaba hari amakaro ku gikuta y'umweru. Inyuma yayo hakaba hari ibiti bigaragara igice kimwe, hino hakaba hari za ngoma

Inyubako nziza kandi nini zigaragara nk'iz'ubucuruzi imbere yazo haparitse imodoka z'ubwoko butandukanye ndetse hari n'iziri gutambuka muri uwo muhanda w'ibitaka, harimo iy'umweru ndetse n'iy'ubururu, hari n'abantu bahicaye, bari kugenda bahagaze zifite imiryango isize irangi ry'umweru ndetse hariho n'ibyapa.

Inyubako nziza igeretse ya etaje, ifite ibirahure by'ubururu, ikaba ifite imbere hayo amakaro ayubakishije y'umweru, indetse hakaba hari jaride nziza irimo ibiti, irimo indabyo, ndetse ikaba ifite igikari cyo kwicaramo gusakarishijwe amabati y'icya...

Umuhanda wa kaburimbo urimo ipikipiki ndetse n'imodoka, ipikipiki ikaba ihetse umugenzi ndetse n'imodoka isa umutuku. Imbere y'iyo modoka hari ipoto iriho itara rimurika nijoro ndetse n'imashini ishinzwe kugenzura niba mu muhanda bari gukoresha umuvuduko wagenwe, impande y'ibyo byose hakaba hari ishyamba ririmo ibiti birebire.

Umuhanda wa kaburimbo usa n'uwamenaguritse, imbere yabo hari ishyamba ndetse hakaba n'amapironi asize irange ry'umweru, ayo mapironi akaba ari ibyuma, mu ikona hakaba hari imodoka iri guturukayo iza y'umweru, ndetse uwo muhanda ukaba urimo aho abanyamaguru...

Umuhanda wa kaburimbo urimo umurongo w'ibara ry'umweru ndetse ku ruhande rwayo hakaba hari ibiti byinshi ndetse n'ibyapa bigenga amategeko y'umuhanda, hakurya hakaba hari ishyamba ndetse hakaba hari n'amatara yo ku muhanda, harimo imodoka y'umukara ndetse n'imbere hakaba indi modoka iri kuza isatira umumotari utwaye moto.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imirongo y'umweru, yemerera abanyamaguru gutambuka iruhande rw' uwo muhanda hakaba hari ibiti birebire ndetse n'ubusitani burimo umucaca, ndetse n'amabuye bukaba hakurya hari inzu yubatse irangi ry'umweru ifite amadirishya afite ibyuma by'umweru.

Amasangano y'umuhanda wa kaburimbo, ufite umurongo w'umweru ku ruhande ndetse n'umurongo usize irangi ry'umweru n'umukara, ufite ubusitani bwiza burimo imitini ndetse n'icyuma gifasheho amatara yo ku muhanda, hakurya y'umuhanda hakaba hari ibiti ndetse n'indabyo, hakurya ikirere gisa umweru.

Umuhanda w'inzira nyabagendwa urimo imodoka zitandukanye iruhande hari imodoka y'umweru n'inzu isize irang ry'umweru, isakarishije umubati y'umweru ndetse n'iyisize isakarishije amabati y'umutuku iriho amatara ya nijoro, iri ahantu ku ishyamba hino hakaba n'izindi modoka.

Umuhanda wa kaburimbo urimo kugendamo imodoka y'umukara ndetse n'amapikipiki. Imbere y'imodoka hari ipikipiki n'imbere y'ipikipiki hakaba indi modoka icanye itara ry'umutuku. Imbere y'uwo muhanda ku nkombe, hari inzira y'abanyamaguru yubakishije amapave, hakaba n'icyapa kibuza kuhaparika ndetse n'ibiti mu busitani.

Imihanda ibiri ya kaburimbo irimo imodoka z'umweru haruguru yayo hari umuhanda w'amapave.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ipikipiki igaragara igice cy'imbere gusa. Imbere cyane ku ruhande, ni aho ibinyabiziga binyweshereza lisansi. Mu muhanda imbere, harimo imodoka ziri kurenga.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibyerekezo bibiri, uciyemo imirongo y'umuhondo ndetse n'iy'umukara n'umweru, urimo abamotari batwaye amamoto bambaye amajire y'umuhondo, mu muhanda harimo ubusitani burimo imikindo, hakurya y'umuhanda hari amatara yo ku muhanda ndetse n'ishyamba.

Umuhanda wa kaburimbo ku mpande zayo hafashe amapave, uwo muhanda ukaba urimo amasangano acamo imodoka hakaba harimo imodoka nini irimo kumanuka n'indi izamuka, harimo n'undi muhanda w'igitaka ushamikiyeho urimo abanyamaguru, hakaba hari ibiti ku mpande z' muhanda, ndetse n'ibyuma by'amatara ku muhanda hakaba hari ndetse n'abandi bantu bahakorera.

Moto nyinshi ziparitse kuri kaburimbo ahagaragara nk'aho ari nijoro, hafi yaho hari icyapa kibuza kuparika, impande ya kaburimbo hakaba hari abantu benshi ndetse n'abamotari bari gutwara abagenzi, muri uwo muhanda wa kaburimbo harimo imodoka imbere y'umweru ndetse n'abamotari batwaye abagenzi, hakaba n'amatara yaka nijoro.